Bamwe mu bacunga umutekano ku magereza ,bari ku murongo aho bashobora kuba bari gufata amabwiriza agenga akazi.

Abashinzwe umutekano imbere mu gihugu, bafata abigira nabi maze bakabafunga, kugira ngo batongera kutugirira nabi.

Ikoraniro ry'abantu benshi bigaragara ko ari abaturage b'ingeri zose. Aho bari kuganirizwa n'umwe mu bashinzwe umutekano.

Umuhango wo guha amapeti abapolisi, habaho kuba babambika n'imidari, kugira ngo bishimire ibyo bagezeho.

Iyo mu mazi hagaragaye impanuka, hari abashinzwe umutekano bajya gutabara abahuye n'ibyo byago.

Uruvuge rw'abantu benshi , bigaragara ko ari abashinzwe umutekano , aho imbere y'abo bahagarariwe n'umuyobozi wabo arimo kubaha amategeko.

ikoraniro ry'abantu benshi aho bigaragara ko ari abayobozi bari kwiga ku nsanganyamatsiko nyinshi zitandukanye

Mu birori aho abantu bajya gufata amafunguro, bakayarurira ku masahani yabo, kandi bakarura ibyo bashoboye kumara.

Uruhurirane rw'abaturage benshi, ku bigaragara ko bafite umuyobozi uri kubaganiriza ku ngingo zitandukanye. Kandi buri wese ukaba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye, aho bari kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, kandi bakazaba bari gukemura ikibazo runaka.

Inama yahuje abaturage kandi bakaba bari kuganira n'abayobozi babo bityo bakungurana ibitekerezo ku kibazo runaka.

Abayobozi bari mu nama bari kwiga ku nsanganyamatsiko, kugira ngo barusheho kuyobora ndetse no gutuma Igihugu kirushaho gutera imbere.

Umuganda ni bimwe muri gahunda Leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo abaturage bafashanye ubuzima bwa buri munsi.

Inama yahuje abantu benshi aho bari kuganira ku nsanganyamatsiko igize umuco itwaye abandi.

Iyugi ni ryo intore zambaraga ,mu gihe zabaga ziri kubyina imbyino gakondo.

Amacumu yakoreshwaga n'abantu kugira ngo birindire umutekano, aho bayakoreshaga nk'intwaro ku rugamba.

Igikoresho cy'umuziki gakondo, aho cyacurangwaga mu gihe bari kuririmba indiririmbo gakondo, ndetse bari no kubyina.

Bamwe mu mpuguke zizi kubyina imbyino gakondo, zizi kwigana neza neza uko abanyarwanda ba kera babibyinaga.

Intore cyane cyane zikunze kuba ari igitsina gabo, kuko ari bo baba bashoboye gusimbuka cyane ndetse no guhamiriza.

Ubworozi bw'inzuki ni bumwe. Bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho ubuki bufite agaciro gakomeye cyane.

Intore ziri guhamiriza, bigaragara ko ziri kubyina imbyino gakondo, kandi zikaba zambaye imyenda yabugenewe, kugira ngo igaragaze umuco nyarwanda.

Uru rusyo wakoreshwaga mu gihe bari gushaka ifu yo gutekamo umutsima , cyangwa se gukoramo igikoma.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Rwanda, aho babihuraga mu gihe bari bu gusarura, bakabihunika, kugira ngo bazabikoreshe mu minsi izaza.

Umwari mwiza wicaye, kandi yambaye nk'abari bo mu gihe cya kera.

Bimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu kwenga inzoga, kandi izo nzoga zivuye mu mineke zibitoki.

Uduseke twabohwaga n'abagore maze bakadukoresha guhunika imyaka, cyangwa se mu kugemurirana ndetse no gutwererana imyaka.

Ibiryo bitetse mu buryo gakondo, aho hagaragara ibintu by'ibiribwa bitandukanye. Aho igaragaramo ibijumba, ibigori by'amahundo, impungure, imboga, ndetse n'ibindi byinshi.

Urukiza ni igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu kudaha inzoga, amazi ndetse n'ibindi bitembabuzi. Kandi cyakoreshwaga mu kunywa ibyo ibitembabuzi.

Itazi rikoreshwa nk ifumbire, aho abahinzi barijyana mu myaka kugira ngo barifumbize.

Umuzinga bakoresha mugukora intaho z'inzuki. Aho bawagika mu giti, inzuki zikazamo maze zigakora ubuki.

Mu rukari wasangagayo abantu benshi, harimo abana, abakuru, abakecuru ,abasaza ndetse n'abagabo.

Abantu benshi bafite imiheha myinshi, bari gusoma kuri bimwe mu binyobwa gakondo, nk'urwagwa cyangwa umusururu.

Umusore ndetse n'umugeni, bari imbere y'amategeko, aho basezeranya kubana akaramata.

Mu Rwanda rwo hambere abakoroni batari baza, abanyarwanda bambaraga imyenda zabo bishakiye mu mpu.

Mu mucyo gakondo w'u Rwanda, intore zambara amayugi ndetse zikagira n'ingabo n'amacumu.

Intore ziri guhamiriza aho bigaragara ko, ziri kubyina imbyino gakondo ,ndetse hari n'abandi bari kuririmba.

Ingoma ni igikoresho cy'umuziki gakondo, gikoreshwa mu kuririmba ndetse no kubyina imbyino gakondo ndetse niza kijyambere.

Kuri ubu hari amaduka agurisha ibikoresho gakondo harimo: ibyansi ,ibicuba, ibitebo ,imitiba.

Igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu muziki bari gucuranga, kugira ngo baririmbe cyangwa se babyine imbyino gakondo.

Bimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu kunywa amata, ndetse no kuyabika harimo: ibyansi, ibicuba ndetse n'ibindi.

Mu myitozo ngororamubiri, igaragaramo imikino myinshi itandukanye, nko kwirukanka, gusimbuka imigozi, gukina imipira y'amaboko n' iyamaguru ndetse n'izindi.

Umugabo n'umugore bari kunywa amata bifashishije ibikoresho gakondo.

Abagabo, abagore, abakecuru, ndetse n'abana bari kubyina imbyino gakondo.

Mu Rwanda rwo hambere nta musafuriya y'ibyuma yabagaho, ahubwo bakoreshaga inkono bari guteka ibiryo.

Mu Rukari, aho umwami yabaga. Aho ni mu karere ka Nyanza, kandi nanubu ukaba wahasura ukahabona.

Intore ziri kumurika ibyo zishoboye, aho zijya imbere y'abantu, maze zigahamiriza kakahava.

Umuco gakondo w'u Rwanda, igisabo, icumu, ingabo ndetse n'imikeka byakoreshwaga n'abantu bo hambere

Inka z'Inyambo mu muco gakondo zagiraga amahembe maremare bihagije, Kandi zaragirwaga mu nzuri kandi zikitabwaho neza.

Intore ziri guhamiriza zambaye imyenda yabugenewe, zifite ingabo ndetse n'icumu mu ntoki.

Ibiyaga byakoreshwaga mu kuroba gusa, ariko ubu bisigaye bikorerwamo ingendo zambukiranya uturere, imirenge, ndetse n'ibihugu.

Mu Rwanda rwo hambere intore zahamirizaga zambaye imyenda yabugenewe, kandi zikaba zifite icumu, ingabo ndetse no ku maguru hariho amayugi.

Umwana mutoya uri kubyina imbyino gakondo, kandi ni byiza, kuko bitoza abana batoya umuco nyarwanda.

Kimwe mu gikoresho gakondo, cyakoreshwaga mu gucuranga mu gihe babaga bari kuririmba indirimbo gakondo, cyangwa se karahanyuze.

Ikirago ni kimwe mu biryamirwa byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, aho byabohwaga n'abagore.

Intore ziri guhamiriza, aho bafite amacumu bambaye ni imisatsi kandi bafite n'ingabo.

Udutebe dutoya tuzwi nko kuba ari udutsitsi, utu twabazwaga kera kugira ngo bajye badukoresha mu gihe bicaye.

Igikoresho cy' amashanyarazi gikoreshwa nabayakora, kugira ngo barebe niba umuriro urimo.

Igikoresho cy'umuriro ku mashanyarazi, gikoreshwa muzu cyangwa se inyubako nyinshi zitandukanye.

Igikoresho gikoreshwa n'abize amashanyarazi, mu gihe bari gushyiraho umuriro w'amashanyarazi.

Igikoresho gikoreshwa mumumuriro w'amashanyarazi. Aho gipima ingano y'uwo muriro bityo ba nyiri umuriro bakamenya uko ungana.

Igikoresho cy'amashanyarazi gikoreshwa kugira ngo itange umuriro , ku bikoresho by'ikoranabuhanga, bicyo bigakora mu buryo bwiza.

Igikoresho gikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho ugikoresha mu mamashini menshi atandukanye, kugira ngo bakore imirimo itandukanye yo mu ruganda.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu isakazamashusho, aho gicomekwa kuri mudasobwa, maze kikagaragariza amashusho abantu benshi.

Igikoresho cy'umuriro w'amashanyarazi, aho gikoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, ndetse no kuwukoresha.

Igikoresho gikoreshwa mu muriro w'amashanyarazi aho gikupa cyangwa se kikemerera umuriro gutambuka mu gihe babishaka.

Inzu mberabyombi ziberagamo ibintu byinshi, nk'amanama, gusenga, n'ibindi bisaba abantu benshi.

Inzu zubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho zishobora kuba zarubakiwe abantu batishoboye cyangwa se hakazakorerwamo ibikorwa bya Leta.

Inyubako iri muri zimwe zigezweho, aho yakoreshwa imirimo myinshi itandukanye nko kugira ikigo cy'amashuri cyangwa se bagashyiramo serivisi za leta.

Abakozi b'Imana b'umuryango w'abagatolika, aho bigaragara ko bari mu munsi mukuru runaka.

Inyubako nziza kandi igezweho, aho ishobora gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, nk'imirimo ya Leta, y'ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Inyubako igaragara ko ari urusengero, aho abaturage benshi baza kuhasengera baturutse mu mihanda itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'amabara atandukanye, higanjemo imihondo ndetse n'umweru.

Amatafari akoreshwa mu kubaka inyubako zitandukanye, aho abanza gutwikwa mu matanura kugira ngo ahindure ibara kandi akomere.

Iyi nyubako bigaragara ko ishaje, aho bigaragara ko iriho abantu barimo gutegura uko izaba imeze, nyuma y'uko ivuguruwe.

Ikoraniro ry'Abihayimana b'Abavugabutumwa bw'Imana, aho bari mu munsi mukuru bigaragariza abandi bantu.

Inyubako bigaragarako yubatswe imyaka itari mikeya ishize, aho bigaragarako ari iyo gusengeramo.

Inzu nini kandi igezweho. Ishobora gukoreshwa imirimo myinshi itandukanye. Hariho ikorerwamo inama cyangwa se n'imyidagaduro.

Urusengero cyangwa se inyubako abantu basengeramo, aho baba baturutse ahantu henshi hatandukanye, baje gusenga.

Inyubako nini kandi igezweho bigaragara ko ari urusengero, aho abantu baturukaga hirya no hino baje gusenga.

Inzu cyangwa se inyubako nkoranyabasenga, aho ihurirwamo n'abantu benshi baje kwiyambaza Imana.

Inyubako nini mu bugari. Aho yahurirwagamo n'abantu benshi baje kwambaza Imana. Aho babaga bahuje imyizerere ndetse n'imyemerere.

Inyubako iriho ibyapa byinshi bitandukanye, bigaragara ko hatangirwagamo serivisi nko gupima ubutaka, guhuza ubutaka ndetse n'imirima, irembo, ibyo byose bikaba bitangirwa muri iyo nyubako.

Bimwe mu bikorwa remezo u Rwanda rushyira imbere harimo n'ibiraro, kugira ngo barinde kuba batwarwa n'imigezi.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bishobora kuba ari nk'inama mu rusengero ndetse n'ibindi.

Ikoraniro ry'abantu benshi, aho bari ku rusengero kandi bakaba bari mu birori.

Inyubako yubatse neza aho bigaragara ko ari urugo rubamo umuryango, bityo bakaba babayeho neza kandi batuye ahantu heza.

Inyubako ya kijyambere, aho yakorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, nko kuba ikigo cy'amashuri, kuba inyubako y'ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Inyubako igezweho ikoreshwa mu kuba abantu ba leta bayibamo, cyane cyane bo mu bigo bya gisirikari cyangwa se by'abapolisi.

Imihanda ya kaburimbo ni myiza cyane, kuko zorosha ingendo. Aho ibinyabiziga byinshi bitandukanye biwunyuramo bicyo bigatuma ingendo zoroha.

Inyubako igezweho muri iki gihe aho ikorerwamo imirimo myinshi itandukanye nk'iy'ubucuruzi, imirimo ya Leta ndetse n'iyindi.

Inyubako yubatse ku murongo imwe ku yindi, kandi zubatse mu buryo bumwe, aho zizakorerwamo ibikorwa bya leta.

Inzu nziza igezweho, aho ikoregwamo ibikorwa bitandukanye, nk'ibikorwa bya Leta, Hotel cyangwa hakaba hakorerwa, ibikorwa by'imyidagaduro.

Icyapa kigaragaza ko, aho hantu hari inzu y' abahamya ba Yehova aho basengera.

Ibibumbano bikunze gusangwa ku nsengero, cyane cyane izemera ibintu bya Kiliziya Gatolika.

Inzu zubakishwa na Leta, kugira ngo bafashe abatishoboye , bityo bakubaka inzu kandi zubatse neza.

Mu Rwanda habamo amatorero menshi atandukanye, aho asenga bitandukanye , aho amwe agira abapadiri andi akagira abapasitori.

Umudugudu w'icyitegererezo, aho urangwa n'inyubako zubatse kimwe, ndetse zubakishijwe n'ibikoresho bimwe.

Inyubako igizwe n'ibiti, ndetse isakajwe amabati aho bayihunikamo imyaka igihe yeze.

Inyubako nini bihagije, bigaragara ko ari urusengero, aho basengeragamo baturutse, ahantu henshi hatandukanye.

Inyubako bigaragara ko ishaje ifite amabati gashaje, bigaragara yuko cyaba ari nk'ikigo cy'amashuri, cyubatswe mu myaka myinshi yashize.

Ikoraniro ry'abantu benshi bari kumwe n'abayobozi, aho bari kuganira ku nsanganyamatsiko, yerekeye ku bintu byinshi bitandukanye bityo bikimakaza ireme ry'ubutabera.

Ikoraniro ry'abaturage benshi ndetse n'abayobozi aho buri muturage aba afite ijambo ndetse ntawuhejwe, aho buri muturage yatanga inyunganizi cyangwa se ikibazo.

Iyo abantu barenganye, bajyanwa imbere y'amategeko bakarenganurwa, bityo bikimakaza ireme ry'uburinganire n'ubwuzuzanye.

Urujya n'uruza rw'abantu batari bakeya, barimo gushaka ibinyabiziga byabatwara, bavuye ahantu hamwe bibajyanye ahandi.

Abantu benshi biganjemo abacuruzi bari gucuruza ibyambarwa, kandi hakaba hari n'abari gutwara imizigo bifashishije ibinyabiziga.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu itegero, aho bagiye gushaka uburyo bagenda n'ibinyabiziga bitandukanye.

Ku byambu hagaragara ubwikorezi bw'ibintu, buba buturutse hanze y'igihugu, aho ibihugu bikoze ku nyanja, bibona umusaruro w'ibyo biyaga, ndetse n'inyanja biturutse kuri ubwo bwikorezi.

Umugore uri mu kazi aho ari guha ibicanwa imodoka, kugirango ikoreshwe mu ngendo , zambukiranya ahantu henshi ,hatandukanye.

urujya n'uruza rw'abantu bari mu mirimo myinshi itandukanye. Hari abari gutwara ibinyabiziga, hari abikoreye imizigo ndetse n'abandi bari mu mirimo yabo imwe n'imwe.

Imodoka nini cyane. Aho usanga zambukiranya imipaka, zikava mu gihugu kimwe, zijya mu kindi gihugu.

Amagare ntabwo yakorewe gutwara abagabo gusa. Ahubwo usanga abagore batinyutse, bagakura amaboko mu mifuka, maze bakihangira imirimo yo gutwara ayo magare.

Mu itwarwa ry'ibintu ndetse n'abantu, hakoreshwa ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo imodoka, amapikipiki ndetse n'amagare.

Umurimo wo kuroba ntabwo wahariwe abagabo gusa, ahubwo n'igitsina gore cyemerewe kujyayo, kuko kidahejwe gukora imirimo yose gishoboye.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, aho byabaye byinshi mu muhanda, bigatuma abantu batagerera iyo bagiye ku gihe.

Amapikipiki menshi asigaye yarasimbuwe nakoresha umuriro w'amashanyarazi, aho byagabanyije iyanduzwa ry'ikirere.

urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwaye abantu n'ibintu, aho biteza imbere binyuze muri iryo twara ry'ibintu n'abantu.

Urujya n'uruza rw'abantu ,bakoresheje gutwara ibintu n'abantu ,bifashishije inzira z'amazi aho mu bwato babukoresha muri iryo twagwa ry'ibintu ndetse n'abantu.

Ikoraniro ry'imodoka nyinshi, aho zitegereje abantu bagiye ahantu henshi hatandukanye, ngo zibatware.

Iyo modoka yakorewe kwikorera imizigo, ibintu biremereye cyane. Aho ibikura ahantu hamwe ibijyana ahandi.

Ubutwazi bw'ibintu bwimbitse ,aho ikinyabiziga cy'ipikipiki gikoreshwa kwikorera ibintu bingana n'ibyo imodoka yakwikorera.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye. Harimo imodoka nini, amapikipiki, imodoka ntoya, ndetse n'abantu bari kunyura mu mpande.

Iyo abanyarwanda bagiye mu mahanga bifashisha, za rutemikirere kugira ngo bave mu gihugu bajye mu kindi byihuse.

Abahinzi bakoresha ibikoresho nk'amagare amamoto, kugira ngo batware imisaruro yabo ku masoko, bicyo bikaborohera.

Ikinyabiziga cyitwa imodoka, aho cyifashishwa mu gutwara ibintu ndetse n'abantu.

Umukino uhuza abantu batarenze batanu, aho bifashisha tumwe mu dukoresho bakoresheje intoki.

Igikorwa cyahuje imbaga y'abantu benshi, kandi baturutse mu bihugu byinshi byo ku isi, aho gikurikiwe n'abantu batari bakeya.

Umukino wahuje amakipe y'abagore, bakurikiwe n'abantu batari bakeya, bari gukina umupira w'amaboko.

Abakinnyi bagiye gukina umukino w'amaguru, aho bari kwishyushya, kugira ngo bagere mu kibuga biteguye neza.

Umukino w'intoki aho ukinwa cyane mu Rwanda, kandi ni mwiza cyane kuko abawukina babona byinshi byiza.

Irushanwa ry'amagare ribera mu Rwanda buri mwaka, aho ryitabirwa n'abantu benshi batandukanye higanjemo Abanyarwanda ndetse n'Abanyamahanga.

Abantu benshi higanjemo rubyiruko, aho bari gukina umukino w'intoki.

Imyitozo ngororamubiri ituma uri kuyikora amererwa neza, aho irinda umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara.

Umukino w'amaboko wahuje abagore, aho bakurikiwe n'abafana kandi birashimishije cyane.

Ku kiyaga habaho aho kuruhukira, aho abantu benshi bajyayo ku mucanga bakishimisha, kandi hakabanezeza.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe, aho ari gukina umukino w'intoki, aho gutsinda ari ukuwushyira mu gapaniye.

Mu myitozo ngororamubiri habamo no gusimbuka imigozi, ibyuma kandi bifasha ababikoze gutuma bamera neza ndetse n'umubiri wabo.

Umukino w'amaboko wahuje abantu b'impande zombi, aho kugira ngo utsinde uwo mupira, uwunaga mu gapaniye.

Ahantu hari amazi menshi, hakundwaga no gusurwa abantu benshi, bityo bigatuma abanyiraho hantu, babona amafaranga bityo bakiteza imbere.

Umukino w'intoki ukoreshwa mu myidagaduro, aho abawukina bishimira intsinzi ,kandi ugira amategeko, agiye gusa nkay' umupira w'amaguru.

Urujya n'uruza rw'abantu aho barimo gukurikirana irushanwa ry'amagare, aho hari umuntu utwaye igare bisa nkaho ari mu gusiganwa.

Abantu bana n'ubumuwuga, nabo ntabwo bashyizwe inyuma n'imyitozo ngororamubiri, aho nabo bahawe ijambo bakaja bakina imikino.

Abantu benshi, bigaragara ko hari abafana bisa nkaho bakurikiye umukino uhuje amakipe abiri.

Amakipe abiri arimo gukina umupira w'amaguru, aho ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu, indi ikambara iy'umuhondo.

Utuyira two mu cyaro, twakozwe n'abantu, aho bakora mu muganda bakawusibura, aho ukoreshwa n'abantu bambukiranya imidugudu.

Imihanda ikunze kugaragara mu cyaro, aho iba Itarimo kaburimbo, ariko mu myaka izaza na yo izaba yaramaze gukorwa.

Ku mihanda ya kaburimbo, hagaragara aho abanyamaguru bagomba kunyura, bityo bikagabanya akajagari mu mihanda.